Tujye tugerageza dukore ibintu bitari ngombwa batubwirije. Kubera ko hano hari ikirango kiri kwerekana imodoka yangiritse ariko kuva ufite ubwishingizi, barayikoresha ndetse banakugoboke aho biri ngombwa. Gerageza rero nawe umenye ibyo ukeneye.

Ntabwo ari ubwishingizi bw'amazu gusa, imodoka cyangwa se inzu, hari n'ubw'amatungo aho iyo zangiritse cyangwa se zikarwara bakugoboka bakazi kuvuriza ku gihe runaka, rero tugerageze tumenye gucunga ibintu byacu cyangwa se tubihe ababishoboye.

Tugerageze dufatire ubwishingizi ibinyabiziga byacu kuko iyo byangiritse bigashya cyangwa se ugasanga bigonze umuntu, baramugoboka bakamwishyura; buri kimwe cyose bakakimumenyera. Hano rero bari kukubwira ngo turikumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima, kanda imibare iyi n'iyi kugira ngo nawe wiyandikishe.

Tugerageze gufata ubwishingizi vuba biratugoboka cyane nk'uko hano bari kubitubwira ko atari ngombwa gutegereza kujyanwa kwa muganga, kugira ngo uhabwe ubuvuzi ahubwo ukaba ari nabwo wishyura ubwishingizi. Ahubwo tubikore mbere y'uko babitubwiriza nk'uko hano hano kuriki kirango babivuga.

Tujye tugerageza dufate ubwishingizi nk'uko tubizi hano bari kuvugango duhe agaciro ibyo duha agaciro kurusha ibindi, ubu muri make ufite inzu yaraguhenze igashya waba uhombye, imodoka nayo ni uko. Gerageza ubifatire ubwishingizi kubera ko ni byiza cyane biragutabara nk'uko kirango kiriho na telefone.

Dufashe ubwishingizi biradufasha cyane kandi baradutabara bagatukorukaho ibyangombwa nkuko kino cyapa cy'ibirango kibigaragaza ndetse hariho imashini zihingaumugom guseka bishi cyane bisa naho byamushimishije.

Apurikasiyo twagiye dushyirwaho kugira ngo tuge tubasha kugura amayinte ndetse ducunge na konti zacu tuyifashishije kubera ko bakoresha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura amazi, umuriro ndetse ukagura n'ibindi bintu bitandukanye.

Banki ni ingenzi kuzikoresha ariko nanone tujye twibuka ko mobayiro mani yabikemuye, aho yazanye apurikasiyo zikora nkazo, ndetse washyiraho amafaranga ukaba wayohereza ahantu hatandukanye mu bihugu, nk'uko hano turi kubireba nkaho wishyura amazi kwishyura umuriro n'ibindi.

Hari apurikasiyo amabanki yagiye adushyiraho kugirango ngo tujye tuzikoresha zidufasha uko twakwishyura amazi, umuriro cyangwa se tugurare ibicuruzwa runaka mu mahanga tubashe kubigeza inaha mu gihugu cyacu. nk'uko ino telefone yari imaze kubyerekana hejuru ndetseho n'isaha twakoze saa yinre na makumyabiri n'itatu bari kumwereka n'ibi byakozwe.

Hari amapurikasiyo adufasha kuba twakohereza amafaranga, tukishyura cyangwa se tukakira mu buryo bworoshye cyane, ibyo bivuze ko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere umunsi ku munsi.

Umusore arimo arakira uyu muntu wambaye ishati y'umweru ndetse bisa n'aho yaje kugura ibintu bitandukanye, bari kubimuhereza. Hirya imipira ndetse n'amakabutura, amapantaro n'ibindi.

Umubyeyi ubona ko yambaye ikanzu nziza cyane ijyanye n'ibyo acuruza, harimo ibintu bitandukanye ndetse n'amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu, ndetse n'ibindi, ubonako yihangiye imirimo avuga ngo ntabwo nakwemera ko umwana wanjye abura ayo kwishyurirwa ishuri.

Ahantu heza hakeye cyane ubona ko hari amatara meza ari kwaka, ndetse n'ibindi bintu bihatatse byinshi bitandukanye rero waza ukigurira nkurikije ukuntu mbona nyine barabicuruza haba harimo indabo ndi kuzibona nyujije akajisho mu idirishya hari imodoka y'mweru ihaparitse.

Ibitenge ni ingenzi cyane kuko kuko biradufasha cyane bituma abadamu bakenyera bagasa neza, ibiri mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umukara, ushobora no kukidodeshamo ipantaro cyangwa se agashati.

Ahantu heza hasa n'aho wagira ngo ni isomero ariko ntabwo ari ko mbibona, harimo utubati tugiye tubitsemo ibintu bitandukanye. Mu mamadirishya uri kunyuzamo amaso, ubona hanze hari ibiti bihakikije. Ntabwo rero wamenya ngo ni ibihe bihateye.

Umubyeyi ari kumwe n'umukobwa, urabona ko imisatsi ye yayisokoje nubwo atari cyane ndetse bafite akayi n' agakaramu barimo barandika utuntu dutandukanye. Inyuma ye hari ibirungo bihamanitse ndetse n'umunzani uriho ifarine.

Hari ibintu byiza cyane by'imiringa ushobora kugurira umukunzi wawe ubaye umufite ariko ku batabafite babagurira abacuti babo, nk'ibi ngibi rero urabona ni iby'agaciro bisa neza kandi abyambaye yaberwa nkurikije ukuntu ndi kubireba.

Amasoko yo guhahiraho yo ni menshi rwose nkuko tubizi tujye tugerageza tumenye ibidukwiriye n'ibyo twambara rero hano birasa neza ndetse urabonako harimo imipira itandukanye umweru n'amakote byaryohera umuntu wese ubyumbaye akaberwa.

Aho guhahira ho ni henshi cyane nkuko bigaragara, hano bacuruza imyenda itandukanye baranayidoda. Harimo imipira myiza cyane, umweru, ubururu ndetse n'umukara. Hari utumeza twiza cyane, ushobora kuza ukataka mu nzu iwawe.

Hari amaduka yagiye ashyiraho ibiciro ndetse n'ibyo bacuruza kugira ngo umuntu najya aza ahita abibona mu buryo bumworoheye, ndetse ntabwo bibagiwe n'amasaha bakoreraho ku buryo byoroshye cyane kuba wamenya igihe cyawe ukakigenga.

Umwari cyangwa se umubyeyi, namwita uko nshaka kubera ko ntabwo nzi icyiciro arimo, afite imusatsi yarayinyereje, umupira w'ubururu, ndetse imbere ye hari ahantu hari amakanzu, bisa nk'aho yari yaje kwihitimo imubereye ngo abashe kuba yagura, inyuma ye hari n'udukapu nyine tw'abadamu bakunda kwitwaza.

Imiringa ni myiza cyane kubera ko idufasha kuba twagurira abakunzi bacu bakambara neza bagacya, ibi rero ni ibyo bayimananikaho bisa umukara ndetse no hirya gatoya hari utundi tuboshye wagira ngo ni uturabo ku bantu bari kutubona .

Inkweto nziza cyane ziri mu bwoko butandukanye umukara, umweru n'umuhondo, umutuku ndetse n'izindi zifunguye rero waza ukagurira umwana wawe akajya yambaragara agazasa neza igihe yagiye ku ishuri.

Ibintu byiza cyane bifasha umuntu kuba yakambara akaberwa cyangwa se akanabitaka munzu ni nk'ibingibi, bifite imiringa yo mu ijosi, iyo ku maboko, ushobora kwambara ukumva umerewe neza.

Imodoka nziza cyane isa umukara, ubonako ikeye ikiri nshyashya, ntabwo irambara ibirango biranga ibinyabiziga bitandukanye kugirango bijye mu muhanda, rero niba uteganya kuyigura ngwino ariko uhite unayishakira ubwishingizi kugirango itangirika.

Iyi ni ifoto y'imodoka, imodoka nziza cyane nta mushoferi urimo iraparitse muri parikingi aho baparika amamodoka aho iparitse ni ku makaro.

Abasore bishimiye bafite udukapu tw'umutuku, hejuru hari ibipirizo bisa niryo bara mvuze bwa mbere, harimo n'iby'umukara n'umweru. Impande yabo hari imodoka y'umweru yanditseho mahindira, izi rero zikorerwa mu Buhinde nizo bacuruza.

Kugura imodoka ni ingenzi cyane ariko ukamenya uburyo ugomba kuyitungamo, kubera ko iyo ari nta mafaranga ufite ntabwo byaguhira, iyi rero irasa umukara amatara yayo ari kwaka hakurya hari inzu nziza cyane nini igeretse inshuro nyinshi, ubona ko ifite ibirahure byiza cyane.

Imodoka nziza cyane ikiri nshyashya imiryango irafunguye ubona ko n'intebe zicyambaye amashashi, ni byiza ko rero twajya tuyitunga ariko igihe dufite amafaranga kuko ni iz'abakire ntago wajya ubona ubwo bwishingizi bwa buri mwaka udafite ikindi kintu ukora.

Imodoka ubonako zisa umweru ndetse hari abagabo batatu bari kumwe baje kuzigura, inyuma hari ikintu gitwikiriye bicara kugira ngo izuba ritabica cyangwa banyagirwe, hakurya hari ibiti ndetse n'amabuye ashashe hasi.

Kugura imodoka n'ingenzi kuko birafasha cyane, ariko iyi ngiyi ni zimwe zari zifite ibirenge bibiri byonyine harimo feri ndetse n'umuriro iracyari nshyashya imisego yayo ni myiza nk'uko bigaragara ndetse ifite na televiziyo aho kureba.

Umusaza ubona ko yambaye agapfukamunwa ndetse n'akagofero, arimo arakuramo ibyangombwa bye ngo abyereko uwo musore w'agapira ku mweru, bisa nk'aho ari inyuma y'ibirahure, hakurya hari akantu kamuhungiza igihe ashyushye kakamuzanira umwuka, ndetse n'ikirango cyo mu ibara ry'umuhondo n'umweru, hariho aho wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Amafaranga umunsi ku munsi agenda ata agaciro nk'uko tubizi, rero ni igiceri cya makumyabiri giteretse ku meza. Mbere wasangaga bakigura amazi, ijerekani cyangwa se bakakiguramo igitunguru, ariko ubu ngubu habe no ku kintu cyaguramo ntacyo rwose. Uretse ikibiriti kandi na cyo cyabaye senkani, ubwo muri make ibintu byarahindutse.

Kuri ubu, ibintu biri kugenda byiyongera cyangwa se ikoranabuhanga ritera imbere. Byaragoranaga cyane kugira ngo umuntu abe yabashe kubara amafaranga mu gihe gitoya, ariko iyi mashini iragufasha cyane, uyashyiramo umunota umwe, ishobora kuba yareba agera kuri miliyoni magana abiri.

Banki nkuru y'u Rwanda yagize gutya iravuga ngo reka duhindure amafaranga, ihindura inote za bitanu n'iza bibiri, ariko izi uyu musore afite ni zimwe zavuyeho ziri kugenda zicika gake gake, aho zabaga ziriho agaseke, ariko iz'ubu ngubu zajeho ibindi bintu bitandukanye.

Amafaranga ni ingende kuko turayakenera kugira ngo tubashe kubaho, twishyurira abana bacu amashuri, tubagaburire ndetse natwe twitungo ubwacu, tugure inkweto twambara, aya rero ni amadolari n'ayandi hirya hari akuma kabasha kuyabara kugira ngo ibintu byihute.

Tuge tugerageza utudo twacu tuturinde umwanda muko kanwa gake cyane umweheruka arapfudo ari agapapuro kajyanwe n'imyenda y'ubururu nako yaje kukara.

Umwana ubona ko atembe itoto rwose, arimo arinywera amata ariko aya ngaya aba yanyuze mu nganda kuko aba aryoheye cyane, arimo isukari. Arabyibushya ndetse nk'uko mubibona, afite intoki nziza cyane, amatama ni uko rwose n'imisatsi yarayiziritse.

Byaroroshye cyane aho mbere twabikaga amata mu ijerikani akadupfana, ariko ubu ngubu haje ibidufasha kuba twayabikamo igihe kirekire kandi ntapfe. Rero iki ni icyuma kibikora ndetse gishyiramo menshi cyane. Inyuma hari amajerekani y'umweru ahamanitse.

Amata ni ingenzi ku bantu bayacuruza, ariko hano iyo uyafatishije irindazi ni byiza kuko bituma mu gitondo wirwa umeze neza. Ntazara kwica, ushobora kugeza saa sita ukarya n'ibindi bikurikira. Ariko hano rero riri ku isahani, hari n'agatambaro ko kwihanaguza igihe wanduye.

Amata ni ingenzi ariko ni meza cyane adufasha kuba twagaburira abana bacu bakabyibuha bagatemba itoto ndetse bagakura nta ndwara zibatatse ni byiza rero ko twajya tubitaho igihe tukibafite.

Abasore bane ubona ko bari bishimye buri umwe afite igikombe cy'mata cyuzuye ndetse hasi hari umugati uri ku isahani n'ameza ndetse n'intebe bicayeho, urabona ko akanyamuneza kabasaze ku masura yabo bari guseka bishimye cyane.

Umwana mwiza cyane ubona ko imbere ye hari ijage ipfunduye iteretse ku meza y'umweru, hakurya umusore wambaye umupi w'umutuku yegereye indobo y'ubururu ndetse imbere hari amagi bacuruza fanta, amazi, amata n'ibindi ari kuri telefone rero sinzi uwari kuvugisha, bisa naho yamubwirahaga ngo yishyure.

Utubido dutandatu, dutanu ni umweru akandi kamwe ni umuhondo gapfundikije umufuniko w'umutuku ndetse inyuma yatwo handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, bisa nk'aho batuguriramo amata rero bigatuma asukuka akamera neza.

Amata y'inyange ni meza cyane kubbera ko arakora, aba aryoshye nk'uko tubizi hano rero hari icyuma cyayatunganya kikabika menshi hakurya hari amazi ya pomba ndetse n'andi afunze mu dukarito hejuru hari utubudo tw'umweru ni byiza ko waza ukigurira nawe.

Abari babiri ubona ko rwose bishimiye kuba bafite amakarito y'amata, umwe ateruye menshi undi ni tubiri, inyuma hari ibindi binyobwa bitandukanye birimo amazi, fanta, ji ndetse n'ibindi byinshi, ushobora kuza rero ukigurira ku giti cyawe.

Amata ni meza cyane, kabera ko adufasha kubyibuha, tukaba twatemba itoto cyane cyane nk'iyo uyabahaye umwana mu gitondo agiye nko ku ishuri biramufasha cyane, noneho iyo umuhayeho ikintu cyo gufatisha. Hano rero niho bayacuruza, ameza arasa umukara, hariho amasane, n'utuntu two kwihanaguza.

Amata ni meza kubana ndetse n'abantu bakuru kubera ko atuma babyibuha nk'uko iki kibondo kiri kuyamiragura ndetse kiri ku kirango cy'umweru, amabara y'ubururu yandikishijeje ayo magambo ndetse n'icyatsi n'imbere harimo umuntu winjiyemo yahita akwakira akakubaza icyo a ushaka akakigwa.

Akenshi iyo tumaze kohereza amafaranga, wenda twibeshye cyangwa se bibaye ngombwa ko tuyashyira ahandi hantu runaka bigapfa, barayatugarurira nk'uko tubizi, rero iyingiyi ni ubutumwa bwari bwerekana ko umuntu yari akoze kohereza ibihumbi bitatu ariko ntibikunde.

Tujye tugerageza kohereza amafaranga mu mahanga kubera ko ikoranabuhanga ryarabikemuye, aho uyu muntu yarari guhitamo, ko agiye kohereza muri Zambia bakamwereka kode y'igihugu abanzaho imbere, ndetse banaka ibintue bisa neza.

Hari amapurikasiyo yaje, aho woherereza umuntu amafaranga ari hanze cyangwa se ari mu kindi gihugu, ugasanga amugezeho. Iyi rero ni peyipari, ikora ndetse ubu ngubu nkurikije uko mbibona byaroroshye kuyifungurira inaha uba mu Rwanda.

Umwana wambaye agapira k'umweru, afite impapuro arimo arasoma, yegeranye n'undi magabo usa n'aho ari kumusobanurira, wicaye ahagarikiwe n'uwambaye agakote k'icyatsi ndetse n'ingofero, imbere ye hari abandi benshi, na za mudasobwa, ubona ko hari ibintu baje kureba.

Nibyiza ko natwe twayoboka inzira igezweho, hano rero iki ngiki ni igipupe ariko giteruye telefone, cyerekana ko ubonye magana atanu kuri konti yawe, aho ubasha kuba wakwigurira amayinite uyikoresha.

Uburyo bwiza ubu turi kugenda dutera imbere ni ukuntu wakwishyura ibintu runaka, bitewe n'amafaranga ufite. Ariko noneho turi kugenda tugana mu ikoranabuhanga, aho riteye imbere cyane kurusha abandi bose, twishyura dukoresheje telefone cyangwa tukohereza hanze y'ibihugu.

Iyi ni sipeni, ikora mu buryo bwo kohereza amafaranga no kuyakira no kuyakira mu buryo bwihuse, igirira umumaro abantu benshi kuko amafaranga akugeraho vuba, cyangwa bakagufasha kuyohereza mu buryo bwihuse cyane.

Dore twese dushobora kuba twakwishyura dukoresheje ikoranabuhanga nk'uko uno musore yabigenje yambaye agapira k'umweru nagashati afite terefone arimo aratwereka ko byakunze rwose, ibintu byagenze neza.

Turi kuva mu isi ishaje, twinjira mu inshya, aho tubasha kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hano rero ni ikibiranga ko turi gutera imbere cyane, aho ushobora kubikora ukaba wabigurira ahandi.

Aho inkweto ziterekwa harimo inkweto nyinshi zitandukanye zisa amabara menshi atandukanye harimo izisa n'umuhondo umukara, umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'andi mabara menshi atandukanye.

Ubu ngubu ibintu byaroroshye, mbere byaratugoraga kuba twakoherereza abavandimwe n'inshuti amafaranga mu mahanga ariko nk'uko kino kirango kibyerekana, ubu ngubu ni amahoro rwose. Ushobora kuba kubikora mu bihugu bitandukanye byo ku isi hose.

Aka ni agapapuro karanga umucuruzi muri Rwanda reveni kakaba kariho nimero imuranga mu bijyanye n'ubucuruzi, kagufasha wakwishyura ukoresheje iyo nimero ukishyura umusoro wa leta.

Aka ni agapapuro kagaragaza ko umuntu yishyuye ubwishingizi, ubwishingizi butuma umuntu yishinganisha mubyo yahuye n'ikibazo bakamugoboka ntahure n'imbogamizi zo kuba amafaranga.

Ni byiza ko nawe wajya ufata ubwishingizi nk'uko abigaragaza muri iyi nyandiko ndetse aranasora afite ibintu byose bitandukanye. Rero ni byiza ko wajya ujya muri ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ukababwira ibyo ukeneye ndetse washinga n'ikigo bakaguha ubufasha.

Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane noneho ayo mu gihugu cyacu, kubera ko amanyamahanga nayo uragenda bakayavunja yaba igiceri yaba inote, kuko adufasha kugura imyenda, kwishyurira abana amashuri, kwigaburira twebwe ubwacu, tugakemura n'ibibazo runaka dufite.

Amafaranga ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho adutabara kugirango tubashe guhaha duteke turye, tukagura imyenda tukambara, tukishyura aho tuba cyangwa se tukagura ibibanza bitewe n'ingano yayo. Rero tujye tuyafata neza, aya wanayavunjisha bakaguhamo amanyarwanda kuko ntabwo ari ayo mu gihugu cyacu.

Umugabo ubona ubona ko yogosha umusatsi, yambaye umupira w'ubururu uriho utuntu tw'umutuku, arimo arahindura ibiciro by'amafaranga kubera ko umunsi ku munsi agenda yiyongera cyangwa se akagabanuka biterwa n'isoko uko ringana.

Aya ni amafaranga, ariko amafaranga atari amanyarwanda. Harimo inote y'ijana, inote ya bibiri, n'umuntu ari kuyabara, ariko aragaragara ibiganza gusa, nta sura iri kugaragara yiwe.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, n'andi magambo agiye yanditse mu mpine, ariho amabara abiri atandukanye aho hari ama uruhande ruriho amabara y'ubururu, urundi rukaba ruriho amabara y'umweru, amagambo y'ururimi rw'icyongereza yanditse mu mabara y'umukara.

Iyi note iyi foto iragaragaza amafaranga, harimo minote y'ibihumbi y'amafaranga ijana, harimo inote y'amafaranga makumyabiri, harimo inote y'amafaranga mirongo itanu, harimo inoti y'amafaranga atanu, harimo inote y'amafaranga icumi, iyi note iriho umugabo.

Hari abantu tuba tugomba kujya kuvunjisha amafaranga aya ni amadorari ijana ubwo muma nyarwanda aba ari nk'ibihumbi ijana na mirongo ine byayo hari n'andi yo mu kindi gihugu ntarabasha kumenya, uyu muntu ateruye.

Amafaranga aradutunga ko konti dukina inziragaciro buri munsi uyungu arimo aragurarana amadolari bamuha ayandi yo mu kindi gihugu, urabonako ari ntacyo ebyiri nyine z'abagabo ndetse bashimanye ni byiza kuko tuzajya tuyafata neza twashakakoresha ibyo tuyakeneye bapana kuyasesagura.

Amafaranga ni ingenzi kuko aradutunga ntabwo tuyatunga. Ndetse aradufasha mubu buzima bwacu bwa buri munsi guhaha kwishyura ubwishingizi ku gutanga imisoro kugirango ngo imihanda yubakwe, ndetse n'yotugira abo turi bakakanyaya tutayafite ntacyo twakora.

Amafaranga ni meza atuma tubona inshuti, ariko na none akaba mabi kuko iyo ashize ziragenda. Ni byiza ko twajya tumenya abo tubana nabo rero, aya ni amanyamahanga ushobora kuza ukayavunjisha bakaguhereza amanyarwanda cyangwa amagande bitewe n'ayo ufite.

Nkuko tubizi amafaranga aradutunga ntago tuyatungaya, uyu musore rero urimo arayerekana imbere n'inyuma ndetse nkurikije indimi zanditseho ni igihinde, rero ukaba wayavunjisha ubaye uyafite bakaguhereza amanyarwanda.

Tujya tuvunjisha amafaranga igihe tuyafite kugira ngo tubashe kuyakoresha ibyo dukeneye, ndetse n'ibyo turi bugure, hano rero bari kwerekana ukuntu amadorari agura cyangwa agurishwa ku giciro ubu ngubu kiriho ku isi hose.

Amafaranga ni meza kuko atuma duhaha tukigura akanyama, tukambara neza, tukagura inkweto ndetse tukarihira abana bacu ishuri, nk'uko bigaragara, aya rero ni amadorari ijana ariko ni imishandiko myinshi cyane ubona ko harimo amamiliyoni n'amamiliyoni ndetse n'aya ngaya yari ari kubara.

Amafaranga ni ingenzi kubera ko aradutunze, atuma twishyurira abana ishuri, tugahaha, tugateka, tukambara inkweto, tukagura imyenda, tukishyura aho tuba, tukagura amazu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ni ngombwa ko tuyafata neza nk'uko uyu musore na we arimo yerekana atandukanye, amwe n'amadolari, andi ntabwo nzi aho aturuka.

Akazu keza ubona ko kabereye umuntu wese waza kugakoreramo ndetse gafite ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo, n'umukara ndetse n'andi atandukanye hari udutebe twiza cyane hakurya hari amamodoka ahagaze bisa naho gafunze.

Amafaranga ari kugenda azamuka umunsi ku munsi nk'uko bigaragara kuri iki kirango kiriho itariki enye z'ukwa cumi na biri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hari ayari ageze ku gihumbi na magana arindwi ariko bayagura ariko akagurishwa igihumbi magana arindwi mirongo itatu, rero buri munsi tujye tumenya agaciro k'ayo.

Akazu kariho ibirango byinshi cyane, biri mu mabara utandukanye, umuhondo, umukara, ubururu ndetse n'andi y'icyatsi, hakurya hari ibiti byiza cyane, bihatewe ubona ko bizana akayaga, no mutwatsi duhari dufashe ubutaka.

Hano rero dukenera ubwishingizi bwacu bwa buri munsi, bukaba bwa tugoboka igihe runaka tubukeneye, ni byiza ko rero twajya tubugerageza kugira ngo ibintu bigende neza, hano rero barabutanga.

Urumodoka runini rurimo ruragenda, ruhetse uruntu inyuma runini rumeze nk'aho hajyamo amazi, ibiti biri inyuma, na kaburimbo ihari.

Intebe nziza cyane z'imisego, bashyiramo ahantu ho kwicara, abantu bakavuga ko hasa neza. Ameza n'utwana tubiri, ibyatsi biri impande yaho, ndetse n'akabati ushyiramo ibyo guteka akandi kajyaho inkweto, hakurya hari n'undi musore uri kwitaba telefone.

Ni byiza kuba wayoboka inzira y'ububaji cyangwa se ugafata intebe ukazishyira muri yawe nziza cyane ikeye ugasasa mo ukuntu nyine bituma hasa neza nkuko hano bigaragara aho bazikora nyine babaha make bagahita babigukorera.

Intebe nziza cyane nawe ugomba kugira ahantu wicara hasa neza nkuko bigaragara, hano hari ameza afite utwana tubiri ndetse imisego myiza cyane hano barazikora rero cyangwa se aka ni akazi kagabura nyine umuntu akagiyemo kamutunga.

Imbaho ni nziza cyane kuko zidufasha kuba twakora intebe tukicara ahantu hasa neza nkuko tubizi rwose. Rero izi nizo, sibyo gusa hari ibitanda, utubati, ameza n'ibindi byinshi bidufasha kubaho mu buzima mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Intebe nziza cyane zifite imisago, inyuma yaho urabona ko hateye ibibaho ku gikuta, ndetse no hepfo nkurikije uko mpabona wagira ngo ni igitanda, inzira bazicaza abantu batandukanye, iriya nini ijyamo batanu, izi ebyeri zikajyamo babiri, ubwo ni barindwi ndetse n'ameza.

Hari ahantu haba hari amazu meza ubona ko yatwaye amafaranga abantu bayubatse, reba nk'iyi ngiyi iteyeho irangi ry'umweru, ibirahure birasa neza ndetse amadirishya ameze neza cyane aranafunguye, bigaragare ko ari inyubako ndende.

Hari amazu meza cyane aba yaragiye yubakirwa abakire bazaza baza kuriramo amafaranga yabo cyangwa se bagaturamo, rero ino ngiyi irageretse ifite utuntu tujya gusa duteyemo indabo, amarido hakurya hari ubusitani bwiza cyane busa neza.

Kuba twagiye mu mahoteli ni byiza cyane kaka dufasha abayubatse neza asa neza ndetse afite inyubako zimeze neza cyane. Amabati n'umukara irangi n'umuhondo ibiti bihateye ndetse n'ubwogero buri muho.

Hari ahantu heza ushobora gusohokana n'umukunzi wawe, hano hari ubwogero, urubona amazi arasa ubururu, imitaka y'umutuku, ndetse n'irindi bara itwikiriye aho abantu bicara, ndetse hari udutebe twiza cyane, ubusitani bunakeye inyubako ndende iriho n'ibirahuri.

Intebe nziza cyane aha ni ahantu ushobora kuzana n'umukunzi wawe bikagenda neza, nk'uko bigaragara iz'umukara ziteyeho utwuma, ibitambaro by'umutuku ndetse n'utwo guhanaguza tw'umweru, hakurya hari ibiti n'izindi nyubako ndende waza ukicara.

Hari ahantu iyo uhagaze ubona ko witegeye umujyi rwose ukareba iko yaka nijoro. Bukeye inyubako nziza ziba zifite ibintu bishishikaje. hariya rero hari ahari kugaragara amatara y'umutuku n'umuhanda ucanye nijoro .

Hari ahantu haba hagenewe kugira ngo azasohokanire abantu bakundana nk'uko bigaragara hari ubusitani bwiza cyane, aho kwicara hakeye, inzu nziza zifite inkingi zisa nk'ikomeye, ibiti bihari bikuzanira akayaga kugirango udashyuhirana.

Aha ni ahantu ugenda ugafata icyo kunywa, cyangwa icyo kurya, bitewe n'icyo ushaka mu masaha ya saa sita cyangwa nimugoroba, ndetse na mu mugitondo. Uragenda ukaba wahafata icyo kurya cyangwa icyo kunywa utuje.

Aho gusohogira n'abakunzi bacu ni nyinshi cyane niba hari amazi meza atarindadabo birya hari aho ku iduburyamikotakazuba ndetse hakurya hari abambaye imyenda y'imituku bicaye n inyubako ndendebona ko ibintu birusha kuyireba.

Intebe nziza cyane zikeye ubona ko hari iz'imisago zinanyerera, zirahanagurika ntago amazi yapfa kujyaho ngo azitoze, zimwe zisa umutuku izindi ni umukara, mu matara meza cyane ndetse n'ameza, amadirishya uri kureba hanze ukabona ko ari ibintu.

Aho gusohokera ho ni henshi ahubwo ikibura ni amafaranga, hakase imbuto nziza cyane nkurikije uko nzibona, hari amananasi, imineke ndetse n'ibindi, amasahani ku mpande, ibiryo, nako uriyarurira wamara kuza ukarenzaho utubuto runaka nyine wishimira.

Inzu nziza cyane ikeye ifite amabati meza cyane cyangwa se nkurikije uko nyabona ni amategura hasi hari amatafari ahiye ayubatse, ibirahure, ibihombo bimanura amazi y'imvura ndetse wareba hari n'imodoka zihagaze n'ibiti byiza.

Umuhanda mwiza cyane urabona harimo abamotari, imirongo y'umweru icagaguye bigaragaza ko hambukira abanyamaguru, hari izindi modoka z'imikara ziri kuhagenda ndetse wakubita amaso ku nzu iri hakurya, yanditseho:"Ibigo by'imari bishinzwe gutanga ubwishingizi runaka ku binyabiziga cyangwa se ibindi bintu."

Tugerageze dufate ubwishingizi kuko ni ingenzi baradutabara, imodoka zacu zangiritse, inzu zihiye, abana iyo baturembanye, barahagoboka, rero tugerageze tuyoboke inzira yabyo nk'uko uriya musore arimo hariya agutegereje ngo uzewakirwe, agufashe utange imyirondoro niko bigenda.

Inzu nziza cyane ikeye, ubona ko igeretse inshuro nyinshi, hariho ibirahure biri gukubitaho urumuri rw'izuba rukagaruka , hano rero batanga ubwishingizi ndetse ni ikirango kibigaragaza cyanditseho ko iyo uhagize uvuga ibikugenewe bikaba ari ibyo baguheza.

Ahantu ugurira imodoka, uzareba aho hafi haba hari amazu ahita agufasha mu bintu bijyanye no kuzishakira ubwishingizi, kuko biragufasha cyane igihe yangiritse bahita bakugoboka bakakugurira inshyashya, ndetse n'ibyo wangije bakabigukoreshereza.

Tugerageze dufate ubwishingizi ku bintu byacu runaka kandi tubifate neza kubera ko ni byiza cyane, hano rero barabutanga harimo ibiro hagiye harimo umuntu wambaye agashati ndetse n'undi wambaye ak'umweru, uraza rero akakwinjizamo ukavuga ibyo ukeneye akagufasha.

Tugerageza dufata ubwishingizi hakiri kare kuko ni ingenzi ntitukabutange ari uko turwaye cyangwa se duheye n' ikindi kibazo aha rero hari inyerekana mashusho bigaragara ko yanditsemo ijambo ry'icyo kigo kibutanga hari n'intebe nziza cyane bicaraho

Tugerageza dufatire ubwishingizi abana bacu kubera ko tugira ibyago bitunguranye, bakarwara igihe runaka kandi hari amavuriro adakora nijoro, ugasanga izigenga nizo ziri hafi. Rero iyo tuzigiyemo ziduca makeya.

Ubwishingizi bukunda kugoboka abantu benshi cyane batandukanye, kubera ko igihe wenda ikinyabiziga cyawe cyangiritse, inzu cyangwa abo mu muryango wawe bakarwara, burakugoboka kandi ntekereza ko wowe ubwo uwagutunguza ikibazo runaka cy'ingutu, utahita ugikemura.

Nk'uko babidushishikariza tugera ku nzozi zawe ubashije gufata ideni nk'uko reba uyu mwari ubona ari guhamagara, yambaye ibinigi mu ijosi cyangwa se imiringa bimubereye, imisatsi yiwe ntabwo ari nk'imwe y'ubu ngubu usanga iba itaboshye.

Amabanki yiyemeje kuba yagukiza cyangwa kukuvana mu bukene kubera gufata inguzanyo ukabasha kuba wakwiyubakira ibikorwa remezo bikagenda neza, azayishyura bitewe n'imikorere uko yagenze, hano rero hari umwari wishimiye ko bayimuhaye.

Yigure cyangwa uyubake nkuko babidushishikariza. Ubaye ufashe ideni ni byiza cyane nkuko iki kirango kibigaragaza; hariho utwatsi twiza cyane ariko, dushushanyijeho umuturirwa bavuga. Rero ikintu usabwa ni ukubagana ukababwira ibyo ukora, ndetse n'ibyo ukeneye bakagufasha.

Ideni ni ryiza kandi ntawe warikenera, kubera ko riragufasha kuzamura ibikorwa byawe cyangwa se ku butaka ukaguraragamo inzu, kubera ko byari byarakunaniye nta mafaranga ubonera rimwe gerageze rero urifate ariko uzaryishyura.

Mu isoko ni ahantu ushobora gusanga ibintu byinshi bitandukanye; rero nk'uko tubibona hano hari umubyeyi wicaye imbere y'umunzani, inyuma ye hari ibirayi, ibitoki, udufuka bahahiramo ndetse n'abakarani bamwe bagutwaza ibintu igihe uje kubihaha, bakabyikorera bakabigeza iwawe.

Kujya kugura imbuto ni nziza cyane kuko zirafasha, hano turabonamo imineke, amaronji, pome, amatunda, ibinyomoro, inanasi ndetse n'umugore uri kubitanga uraza rero ibyo ushaka ukabigupimira akagupfunyikira ugataha.

Abantu bisa naho bari bitabiriye kuza guhahira mu isoko runaka nyine kugira ngo ibintu byabo bigende neza n'ibyo bakeneye babibone. hakurya rero hri aho bacuruze inkweto z'ubwoko bwose z'abagabo, abagore, abana ndetse n'abandi.

Umwana abona koyipfumbase yegeranye n'abagabo basa n'abakuze wagirango ni ku isoko bamwe bashyira inyanya ku muhanda nyine bakazifunga bi imifungo coryoje igahise yigurira nkuko tubibona nizo bafite rero bari kuzicuruza buri muntu yafasheyo yicara uwo musaza wambaye akagofero ahantu mu ahubwo.

N'ibyiza ko twajya twirinda tukarinda ibikoresho byacu ahantu hari uruvunganzoka rw'abantu, rero nkaha ngaha harimo abantu bambaye imyenda itandukanye umutuku, ubururu, umweru, umuhondo, haparitse n'amamoto menshi cyane ubonako wagira ngo niyo bari gucuruza, hirya hari amazu manini ndetse n'ibiti.

Ibikoresho gakondo ni byiza cyane kuko bidufasha gutaka amazu yacu, imipira myiza cyane y'icyatsi yanditseho Rwanda ndetse n'ibisabo bijyiye biboshye ukuntu, rero wabishyira mu nzu cyangwa ukabimanika iwawe bigasa neza.

Mu isoko tuhasanga ibintu byinshi bitandukanye, rero tujye tugerageza duhaye ibifite intungamubiri nk'izi mboga zirimo hano amashu, ibijumba, ubugari ndetse n'ibitoki karoti n'ibindi bigaragara.

Umubyeyi yitandiye ibitambaro byinshi arenzaho igitenge, abandi bateretse amabasi menshi, amwe asa umutuku ndetse n'icyatsi harimo imineke. Abandi bari gucuruza ibishyimbo biri muri ibi navuze, hakurya hari n'abanyegare, iyo umaze kugura baragutwaza.

Nk'uko twabigarutseho ko nta saku rigomba kubura bino bo cyangwa se ibintu bicupa bifasha abantu kubabazamyaryo bafashwe n'inkongi banani barabikurikije uko aribona ry'umuduku zizitse ku nkegi' imberehungaban bafite umutekano abagize icyo bateye bahita bakizimya byihuse.

Inzu nziza cyane zifite amabati y'umutuku ariko bayateye irangi ndetse nazo ziteye iry'umuhondo, hasi hari amamodoka manini rero atwara ibintu byinshi cyane n'andi matoya ubona ko ari iz'ubucuruzi.

uyu umubyeyi ubona ko yiteze agatambaro afite ibimufasha cyangwa se insimburangingo zituma atagenda neza, gusa atera isekuru, imbere ye hari abandi bari gucuruza imineke, ubonako bamwakiranye ubwuzu kugira ngo bamubaze ibyo ashaka abicyure.

Abari barimo barazamuka gake gake bafatanye ukuboko, hakurya hari ibintu bihari byicayeho abagore, ndetse ubona ko bari baje kumva ibintu runaka cyangwa se guhaha nyine bitewe n'ukuntu hagaragara wagira ngo ni mu isoko.

Umubyeyi ubona ko yifashe ku myanya ndanga kumirwa, niba yabuze abakiriya ntabwo tubizi, gusa ari gucuruza imbuto zirimo inyanya imineke imyembe ndetse na pavuro, rero waza ukamuhahira kuko biragufasha cyane ukaba wakirira nawe cyangwa ugateka.

Hari igihe kigera abantu bakajya gutandika inyanya ku muhanda ndetse n'ibitunguru nk'uko hano bigaragara, hari umukecuru ufite n'igikombe niba kirimo amata simbizi, hakurya hari n'abandi bafite amashu, karoti, inanasi n'ibindi.

Umubyeyi ubona ko yishimye arimo araseka, impande ye hari imbuto zirimo inyanya, amaronji n'imineke, amatunda, tungorusumu, intoryi ndetse n'ibitunguru, arimo aracuruza kugirango ngo abasha kuba yabona amaramuko.

Isoko ryiza cyane ry'ibiribwa, ririmo imineke minini cyane nk'uko bigaragara ndetse inanasi ziri hejuru na bya bindi biba bisa umutuku mo imbere, hakurya hari udufuka tuhamanitse iyo uje kuhahahira uhita ubitwaramo.

Umusore wambaye ingofero ijyanye n'umupira wambaye z'umuhondo ndetse n'ubururu, arikumwe n'umugabo wambaye ikote ry'imbeho ry'ishashi risa umukara. Inyuma yabo hari imidoka cyangwa se ikinyabiziga ukite uko ushaka n'inzu nini.

Abagabo batatu ubona ko bari ahantu mu umutaka ubona ko bikinze akazuba aho gatoya mu gihe cy'umwanya muto, ndetse bamwe nkurikije uko bambaye ni myenda cyangwa se impuzankanza z'ishuri bahetse ibikapu, ndetse n'ibyo bari gukora, hakurya rero hari abandi bafite imifuka wagira ngo hari ibyo bari gupakira.

Aka n'agapapuro kagaragaza uko umuntu yakishyura amafaranga muburyo bwihuse kandi bworoshye batagukase n'amafaranga menshi, uburyo bwashyizweho na MTN.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikarita y'akazi isa umuhondo arimo arafasha uyu mubyeyi amuha agaseke kugira ngo ashyiremo ibintu runaka hirya gatoya haru undi nawe wicaye imbere ya mudasobwa usanaho arimo arakora akazi ashinzwe.

Umubyeyi uri mu mwambaro mwiza cyane, agapapuro kariho imyirondoro y'abantu bishyura bakoreshe ikoranabuhanga ikayi n'ikaramu ndetse inyuma ye hari intebe nyinshi cyane n'abantu wagirango bari baje kuba bagura ibintu runaka bakeneye.

Umwari yaravuze ngo njyewe abana banjye ntabwo bazasonza reka mbashakire kugirango mbagabu, niko kuza gufata igishoro cye avuga ko agiye gucuruza amayinite kandi biramuhira, abagabo batatu baje kumureba n'abandi bagore, bari mu kazu k'umuhondo gakeye kandi gafunguye.

Umwari wambaye umupira w'umuhondo ari kumwe n'undi, hakurya hari igipapuro kiriho imyirondoro y'ababasha gukoresha ikoranabuhanga, yegeranye n'umubyeyi ubona ko ari guseka yishimye, imisatsi ye ifunze munsi, ubonako yaje guhaha ibintu runaka kugira ngo babimuherereze abitahane.

Iyi ni inzu ihabwa aba agenti ba mtn aho bakorera, bakora ibijyanye no gutanga amafaranga yokuvugisha kuri telefoni yo bita mitiyu bakabitsa bakanabikurira abantu amafaranga.

Umwari mwiza cyane ubona ko yambaye agashati k'umweru ndetse n'imisatsi ye isa n'aho iboshye ukuntu, inyuma ye hari ibirango byinshi cyane, imbere mu kazu arimo ku muhondo handitseho amagambo avuga ngo ohereza cyangwa wakire amafaranga hano.

Umwari mwiza cyane ndetse si umwe ni babiri, ari kumwe n'umusore bari mu kazu k'umuhondo, hari n'abadamu baje kumugurira ibintu bijyanye n'ama inite, hateye uturabo bisa n'aho ari kumuhanda kubera ko ndikuhabona imodoka.

Aba ni abantu bari kwamamaza amatelefone. Ukagura kuri makeya udahenzwe kandi amatelefone ya mataci manini.

Abagore bagira ijambo nk'uko bigaragara bano na bo ni amafoto yabo nyine ukuntu bagiye bakurikirana n'ibyo bashinzwe kandi harimo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa nk'uko tubizi.

Umusore mwiza mu mwambaro w'akazi, usa icyatsi wanditseho amagambo ya vuba vuba, arimo arafungure isanduku iri inyuma kuri moto yari yahagaritse ku ruhande gatoya mu kayira k'abanyamaguru ndetse hari n'umuhanda uteyemo utubuye unyuramo imodoka nini, abizaniye abari babitumije.

Tugerageze tugurire ibintu ku ikoranabuhanga kubera ko ni byiza cyane, uru ni urubuga rero ujyaho ukareba washakaho inyanya ukazibona bagahita bazikugezaho, barwita tuma magana abiri na mirongo itanu, ibitunguru, karoti, imiteja n'ibindi ubisangaho.

Abari babiri, barimo barahitamo impano bazaha abakunzi babo, ndetse urabona ko imwe ari mirongo itanu ku ijana, babigabanyije, wanabahamagara, bakayikugezaho, umwe yambaye umupira w'umutuku, umuringa mu ijosi, n'undi yambaye uw'icyatsi, n'isaha ku kaboko.

Umusore ubona ko yambaye ibintu binyuramo indirimbo ndetse n'uturindantoki, afite tw'umutuku turiho ibara ry'umukara, ari guterura ibintu biriho umugati, ifiriti , inkoko ndetse n'ibindi byinshi, bisa nkaho yari yabitumije nyine cyangwa se akaba ari n'ahantu ashobora kubihahira.

Tujye tugerageza kugura ibintu twifashishije ikoranabuhanga kuko ni byiza cyane, bifasha umuntu runaka kugira ngo abashe kugira icyo yigurira nyine atavuye mu rugo, nkuko uyu musore abigaragaza yipfumbase, ubaye ubiguze ahita abikugezaho.

Ibirori byaroroshye mbere byatufaga kujya gutonda umurongo ahabereye ibirori runaka kugira ngo tugure ibiduha uburenganzira bwo kuba twakinjira ariko bari mu rugo rwose ureba ibihari u ukahita wishyura ukazagenda ntaguhagarika.

Hari ibinyabiziga byabugenewe ubundi bikunda kuzanira abantu ibyo kurya cyangwa se ibindi bintu batumije, kubera ko ari ibya moto byo binyura ahantu henshi ntago bihura n'akajagari ngo bitinde mu nzira, rero ujye ugerageza nawe ubitumize hakiri kare nk'uko kino kiriho isanduku y'umutuku irimo ibyo bari bazanye.

Iibinyabiziga bitatu ubona ko nta muntu wagicayeho ariko ingofero zindiho abanyabyago ziteretse ibishuro harihoho n'ibirango by'umweru abasinnyegaho utwatsi barahasakaye banako biteguye umuntu nibo bahamagara isanisa barahita baza.

Uyu ni umuntu uri kwamamaza izi nkweto ko zigura amafaranga maganatanu y'amanyarwanda bagatanga n'urubuga ko rwitwa kigure akabomo rawa.

Inzu nziza cyane ishasheho amatafari nk'uko bigaragara hasi naho bashyira imodoka ikaba yarara, ni manini hejuru hafite bya bintu bijyanye n'imirasire bifata izuba bikarihinduramo imbaraga z'umuriro bigashyushya amazi.

Hari ahantu umuntu aba akwiriye kuba rwose akumva atekanye, ibiti byiza biturinda akazuba, ndetse n'ibindi birarahure bihari hasi, hakurya hari inzu ifunguye idirishya, iteye irangi ry'umuhondo ryiza cyane.

Ni byiza ko wajya wikodeshereza inzu irimo byose uzakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi kuko byagufasha, hano rero harimo igikonjesha, hirya ni mu gikoni batekeramo ibintu bitandukanye.

Hari umuhanda w'itaka, igipangu cy'amatafari ahiye ndetse kinafunze, harimo inzu nziza cyane, ibiti biri hakurya, igicu kirasa nabi wagira ngo imvura igfiye kugwa ndetse harimo n'ubururu bukeya. Iyi rero bayigura kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Hari utwatsi utubuye dukeye, nkurikije uko mbibona imbere hari ikibuga, umugore n'umugabo bisa n'aho bari bamaze kuganira, inyuma yabo hari intebe nziza z'imisego y'umweru, ndetse n'ameza n'ibindi bisakaye amatara ari kwaka nijoro ubona ko ari ibintu bisa neza cyane.

Hari aha harimaze ho gukodesha rwose aho ushobora kwibona ku mafaranga makeya kawaiyivamo n'umuryango wawe, nk'uko tubibona ni mu bwogero ahantu umuntu ajya akikuraho imyanda yose yaba yabize icyuya umunuko ukamuvaho.

Inzu nziza cyane ubona iriho amatafari hasi nyine ashashe asa umutuku n'umukara, hirya hari aho kwicara mukaganirira hafite ibirahuri byiza cyane, ndetse n'indabo ziteye ku marembo cyangwa ku muryango.

Ahantu ho kuryama ukaruhuka ni hano rwose, nkuko buno buriri bushashe bumeze neza, hariho imisego y'umweru amadirishya, ndetse n'igikuta cy'amabuye cyubatse, gerageza nawe rero umenye aho ubarizwa.

Umuhanda mwiza cyane wa Kabeza iyi nzu nayo iragurishwa, hariho amabuye ndetse n'igipangu cy'umukara kigiye kiriho utuntu tutatuma urebamo imbere, iyi nzu rero irimo amakaro ibirahure ndetse n'amazi n'umuriro.

Inzu nziza cyane ubona ko hasi hakirimo imirimo yo kuyisana cyangwa se bakayikorera amasuku, kuko hari imifuka myinshi yaba iya sima, amajerekani mu mbuga ndetse hejuru hari udutafari duhiye tugaragara neza cyane.

Inzu iteyeho utubuye two mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakurya hari ibirahure uhagararaho ahitegeye umujyi, igeretse rimwe hasi hari uturabo tuhatatse, ni nziza cyane ushobora kuza ukayikodesha cyangwa se ukayigurira bitewe n'ubushobozi.

Inzu nziza cyane ubonako ikeye ifite irangi rijya gusa ubururu, utuyunguruzo turi ahantu hanyura akayaga ariko tutemerera imibu kuba yatambuka, itara rimanitse hejuru inzugi ubonako zikomeye n'ibirahure bibonerana amadirishya arafunguye akayaga kari kwinjira.

Hari abantu biyemeje avuga ngo njyewe ngomba kugurisha ibibanza n'imodoka, nk'uko kino kirango kibyerekana bari kuvuga ngo babafitiye ubufasha butandukanye ndetse bakorana n'ibijyanye n'ubwubatsi, ushobora kubagana nawe bakagufasha.

Inzu nziza cyane ubonako ifite ahantu washyira imodoka zirenze imwe, ndetse hakurya hari ibirahure, urabonako inahahagaze rwose, ibiti bihateye, mu gikari ni heza, akadirishya karafunguye ka ahantu wogera, rero wayikodesha ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, iherereye i Kanombe.

Inzu nziza cyane ubona ko ifite urupangu rugiye rucagaguyemo, harimo uturongo wabasha guhengereza mo imbere, hakurya hari amadirishya ndetse n'ibirahuri biriho, urabona igeretse rimwe wayikodesha iherereye i Kimironko.

Inzu nziza cyane igeretse, hasi ifite udutafari dushashi hasi tw'umutuku ndetse n'umweru. Hasi ifite uturabo ndetse nk'uko uri kubibona munsi y'idirishya hateyeho irangi ry'umukara, n'ibirahure, hirya hari inzugi winjiramo, rero ushobora kuza ukaba wayigurira cyangwa se ukayikodesha.

Inzu nziza ikodeshwa, iteye irangi ry'ubururu. Hjuru hariho udutako dusa umweru twinshi cyane. Hasi hateyeho ak'umuhondo, amakaro hasi, inzugi zirafunguye, ni umukara n'ibirahure, hari utubuye tuhashashe, wahashyira imodoka yawe. Iherereye rero Kicukiro, ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri ku gihumbi na magana ane bya buri kwezi wayibamo.

Idukaba haba harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo ibikapu, inkweto, imyenda ndetse n'ibindi nkuko hano uyu musore wambaye ishati y'umweru bisa na ari kugura, ari kubisikana n'umwari wambaye imyenda y'imikara. Hari imisatsi ye irafunze ukuntu, hakurya n'abandi benshi amatara acanye abona ko bisa neza.

Hari amasoko tuba tugomba kujya guhahiramo kandi akadufasha gukora ibintu byacu neza tugasangamo ibintu bitandukanye harimo inkweto n'imyenda y'amapantaro, ndetse n'ibindi, nk'uko uyu umusore cyangwa se uyu mupapa yiyambariye agakote arimo arahitamo ibimunyura.

Kubwira ibintu bingana n'iyiciro cyabo ni byiza cyane ,tujya twambara tuberwa rero hano harimo ibintu byinshi harimo udukapu tw'abagore ,twinshi tw'umutuku n'umukara ndetse harimo inkweto nziza cyane ,nk'uko abasore baribaje guha bambaye ishati y'umweru.

Mu isoko ni ahantu ushobora gusangamo ibiribwa bitandukanye ,nkurikije ukuntu mbibona hano harimo: ji, fanta ,amavuta ,makaroni, kawunga, n'ibindi bishobora kuza nyine wakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi bikagenda neza.

Amakaro asa neza cyane ndetse n'ay'umukara harimo abasore n'inkumi bacururizamo ibintu bitandukanye irimo imyenda y'inkweto y'ibiribwa byo mu rugo ushobora kuriraho amasorori, amasahani, n'ibindi byinshi rero wagerageza nawe ukaza ugahaha.

Mu masoko atandukanye haba harimo ibintu byinshi byiza cyane hasi rero aho ni imyenda amakanzu y'umuhondo, umutuku, umukara, imyenda y'abagabo irimo amashati n'amapantaro, ndetse n'undi mugabo aha hagaze rwose yishimye ko ari kuhagurira.

Umwari wambaye imyenda y'imikara rwose yajyanishije nk'uko bigaragara, ari ahantu arimo aragura ibintu runaka nyine, bitewe n'ibyo mbona hari insakazamashusho y'umukara iri hejuru hariya ndetse aho ahagaze wagira ngo ni aho yishyurira.

Amakaro meza cyane ay'umweru ndetse harimo n'andi asa umukara. Ni mu isoko ubona ko bacuruza ibintu bitandukanye, birimo ibiribwa cyangwa se imyambaro, gusa hakorera n'amabanki, ubaye ugize ikibazo cy'amafaranga make waraza bakakubikuriza.

Umusore ubona ko afite akantu gafite udupine cyangwa se akagare ukite uko ushaka k'umutuku, harimo amayoga menshi arimo aragenda ahitamo iri bumumare icyaka, kugira ngo imuryohere ayitahane iwe ayinywe n'umuryango we.

Kuba wakwishyura ubwisungane mu kwivuza ni ngombwa, rero iyo umaze kubikora baguha ikarita y'umuhondo, yabaga yanditseho amazina yawe, umukuru w'umuryango, imyaka ufite, aho uba, hariho n'ifoto yawe. Ariko ubu byarahindutse, ufite irangamuntu arayitanga, ibyo rero babiha abana bakiri bato batarageza iyo myaka nyine yo kuba bayifata.

Umupapa rwose cyangwa se umusore ubona akuze, byaterwa nuko tutazi icyiciro arimo niba ari ingaragu afite, indangururamajwi yiwe arimo aravugiramo kugira ngo abantu bamwumve ndetse hari n'abategarugori inyuma yaho ibirango rero biri mu mabara y'ubururu n'intebe z'umukara zo kwicaraho.

Kwishyura ubwisugane mu kwivuza ni byiza cyane kuko biradufasha, bituma twivuza cyangwa se tukagira ibindi dukora bikagenda neza, urugero niba ugiye nko mu bitaro byo muri Leta usanga bakwakirana ubwuzu ndetse bakagufasha kwishyura amafaranga make.

Hari ubwisungane mu kwivuza ubona ko butabara abantu batandukanye ndetse bigatuma twivuza amafaranga make nkurikije ukuntu mbizi; babwita mitiweli rero ishema ry'umuryango nkuko bano bagore bari bicaye hano bari gusimbiza abana babo bari babazanye kwa muganga.

Abakecuru cyangwa se abamama urabona ko bikenyereye ibitenge, bamwe barengejeho imipira, abagabo babiri bateruye ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yanditse mu ry'umweru agaragaza iyi icuruza ibibanza bitandukanye nkurikije ukuntu nyizi n'imodoka.

Tugerageze tuzigamire abana bacu kuko ntabwo tuzi ikizaba uyu munsi. Natwe tubyikorere, hari igihe akazi bakwirukana ugasanga bikubereye amahire ya mafaranga arakugobotse. Rero tumenye uko twitwara.

Umu papa wambaye ishati y'umweru arimo arerekana ikarita yanditse ikigo gishinzwe gufasha abantu muri rusange cyangwa se kikabishyurira ubwishingizi, niko nkizi njyewe wabona gikora ibindi, imbere ye hari telefone ubona ko ari iza kera rwose mu kazu gateye irangi irisa umuhondo wishimye ukuntu.

Hari ahantu leta yagiye yegereza ibigonderabuzima, kugira ngo urwaye indwara zoroheje igihe agize ikibazo ahite yivuza za malariya, inzoka, ndetse n'ibindi byinshi apfa kuba yarishyuye ubwisungane mu kwivuza gusa.

Abasore babiri urabona ko bambaye imyenda isa y'akazi bicaye ku ntebe y'umukara ndetse n'ingofero bazishyize ku ruhande, inyuma hari ibirango biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, imbere yabo hari ameza. Bakaba bari kuganira ku bintu bijyanye n'ejo heza.

Umugabo ndetse ubona ko yishimye, arimo arasobanurira abantu uko muri ejo heza hakora, urugero niba usevinze aka kanya mu myaka icumi ukaba ufite miliyoni zirindwi, zagoboka abana bawe, zikabishyurira ishuri igihe witabye Imana.

Ni byiza ko tujya twishyura ubwisungane mu kwibuza kobera ko buradutabara iyo turwaye bakatuvura, ndetse mu buryo bwiza kandi bwizewe. Iyi rero ni ikarita ujyana kwa muganga ukayitanga, bagahita babona imyirondoro yawe, hanyuma bakakuvura.

Ahantu heza cyane ubona ko harimo amakaro y'umweru akeye, intebe z'umukara ndetse n'uwicayeho ategereje uwari uri hafi aho ngo amufashe, hakurya hari abandi benshi ubona ko baje kwitabira ibintu runaka bakeneye kumva.

Abakecuru ndetse n'inkumi bari kumanika amakarita yerekana ko bishyuye ubwisungane mu kwivuza mitiweli bisa n'aho rero babyishimiye, arasa umuhondo, hariho imyirondoro y'abo, igihe bavukiye ndetse n'abakuru b'imiryango.

Ubwisungane mu kwihuza ni ingenzi. Ku bantu babizi biradufasha cyane, ndetse bituma twifuza ku mafaranga make, nk'uko icyo kirango kibigaragaza cy'umweru kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza cyane ubona ko ifite ibirahure, akarange k'umuhondo kahateye, igicu kirasa neza ndetse iyi ngiyi batanga ubwishingizi bwa mituweri ku bantu babizi, iki rero ni cyo kigo gifasha abo bantu bari mu byiciro bitandukanye.

Tugerageze tujye twubaha abantu badufasha mu bintu bitandukanye. Umubyeyi yambaye umupira w'umutuku, umwenda w'akazi uriho ibara ry'umukara, ari gufasha umugabo kwishyura akoresheje ikarita. Ubwo muri make ari kujyana n'ikoranabuhanga ku byo yari amaze kugura hano.

Aha ni mu iduka, iduka rigiye rigurisha ibintu bitandukanye harimo amavuta, harimo ibyo bakaraba byica mikorobe, amazi bakara yica mikorobe.

Mu isoko ni ahantutu ushoborahira ibintu bitandukanye, hano rero harimo imbuto zirimo inyanya hakurya hakaba hari amacupa ya fanta cyangwa se ibindi bintu bitandukanye waza ukirebera, hari akantu gafite amapine nyine umuntu asunika nk'uko uriya mwana wambaye umupira w'umuhondo nawe agafite arimo aragenda nyine atoranya ibintu runaka ngo abishyiremo.

Umubyeyi wambaye ibitenge byiganjemo umutuku n'umweru arimo aragenda areba ibiryo bye bifunze mu mashashi byiza cyane ndetse n'ibindi byinshi bitonze umurongo, impande ye hari ka kagare bashyiramo ibintu bagasunika bitewe ntibyo baje kugura ndetse bagera hirya uhasanga n'ibinyobwa.

Umukobwa monako yiyambariye agakote yarengeje ku mupira w'umweru, ndetse imisatsi yarayiboshye arimo aragenda amanura ibintu runaka yashatse nyine kuza kugura hano, nkurikije ibyo ndikubona muri twatugare, abantu benshi bakunda kugenda gufata bitwaza, harimo inanasi, ndetse ubwo harimo n'izindi mbuto ntekereza.

Ni igenzi cyane guhahira mumaduka atandukanye kuko bitunga abantu, ndetse bituma ubona ibyo wabuze, haba harimo amakaroni, amazi, fanta, ji, kandi binatondetse ku murongo nkuko bigaragara biba bisa neza hano .

Hari ahantu tugomba kujya duhahira tukamenya ibyo dushaka kandi bitugirira akamaro mu bwa mubuzima bwa buri munsi, hano haba harimo amata, fanta, ji, ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kandi ugasanga birahendundutse ku biciro utasanga ahandi.

Ahantu heza cyane hakeye ubona ko hameze neza ibinyobwa biri ahakonjesherezwa ibirimo amazi, fanta ndetse n'ibindi byinshi bigiye biri mu ducupa turimo amabara y'umutuku harakeye cyane rero waza ukahahahira.

Umwari mwiza cyane na ko yateje gufashe ikosa k'igitenge n'agapira k'umukara arimo aratera rutono yahashye adushyira mu kagara bi kugenda asunika nako yari yaje mu maduka hamwe n'ibintu byaho gitondoma ngo binasa neza cyane.

Hari ahantu duhahira henshi hatandukanye kandi tugasangamo ibintu byaho biri ku murongo rwose. Bino nabyo biri mu bintu tuba dukeneye ubuzima bwacu bwa buri munsi waza rero ukahahahira nta kibazo na kimwe uhuye nacyo.

Aha ni mu isoko, isoko ry'imbuto, uragenda ugahaha imbuto, haba harimo imbuto zitandukanye. Harimo amatunda, amapera, inanasi, n'ibindi, ndetse n'amaji abikomokaho.

Ntitugatinye kujya mu maduka akomeye kuko bituma tubasha kumenya ibintu tubona aho tubishakira, hano rero harimo fanda, ji, amakarito y'inyange cyangwa se ibindi bitandukanye waza ukirebera n'imigati.

Tujye tugerageza tujye guhahira mu maduka meza cyane, haba harimo ibintu byose twifuza, amayoga y'ubwoko bwose, fanta, ndetse n'ibindi kandi biba bitonze umurongo, n'ibirungo byo mubiryo, uragenda ukabibona, hariho n'agasuku rwose bikeye.

Ibintu byiza cyane ubona ko bahahira mu iduka rikeye, rifite byose ntacyo waburamo, amabiswi, amabombo, amashikarete, amata, amazi, amavuta, n'ibindi byinshi bitandukanye, umukobwa rero arimo apfunyikira undi mu gashashi kugira ngo abashe kuba yabicyura.

Tujye duhahira amaduka rwose y'abasimu nk'uko bigaragara n'amakarito y'inyange, fanta ndetse n'ibindi byo kurya byinshi bitandukanye, harimo na biswi z'uturabo ubona ko ari ibintu bisa neza kandi biba bigendeye ku murongo. Rero tugomba kumenya icyiciro turimo.

Imigati ni ingenzi, tugerageze tujye tuyigaburira abana bacu buri mu gitondo, kuberako irabafasha ndetse ikanabatabara igihe runaka, abajyana ku kazi wenda kuyinyweye na bo bakayipfunyika bakajya ku ishuri, iyi rero ni myinshi cyane nk'uko uyu muntu bisa nk'aho ari gukuramo umwe.

Aho guhahira ho harahari; ahubwo ikibazo nta mafaranga tugiramo. Rero tujye tugerageza dufate make tubonye tugende tuguremo ibyo dukeneye. Urugero niba winjiye nko muri Simba ugende ugure nk'akagati ugasohokane rwose, kuko kaba gahendutse kuruta ahandi. Hano rero ni ikirango cyerekana ko ariho ugeze, ndetse hari n'imodoka cyangwa se moto zihatamuka ku muhanda buri munsi.